yo igihe kigeze bambwe mu rubyiruko rwagaragaye ko guru ari mu gufu natin abateranaga benshi basanga urubyiruko ki se urubyiruko kuta'amake yate imbere kagame juinment